Abantu bahagaze ndetse n'usutamye bari kugenzura ibikoresho byifashishwa mu gutabara imbabare, ibyapa biriho ibirango by'ikigo gishinzwe gutabara imbabare, imifuka ipakiye kandi igeretse mu bubiko.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutabara imbabare, abayobozi b'ikigo cy'amashuri, imodoka yifashishwa n'abakozi bashinzwe gutabara imbabare ndetse n'ikigo cy'amashuri, bari gutanga icyemezo cy'ishimwe ku bayobozi b'ikigo cy'amashuri cyasuwe.

Imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara iparitse itegereje kugira abo itwara iri mu ibara ry'umweru n'ibirango biyiranga n'amatara y'imbuzi n'amagambo yayo yanditseho kuri yo.

Umurwayi uri kwa muganga uriho imbuzaguhina wavunitse wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'umushumi unyuze mu ijosi.

Umuntu uryamye ku gitanda cyifashishwa kwa muganga, ari gutanga amaraso, yambaye inkweto zifunze, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati y'umweru, mu maguru ye afite urupapuro rw'ikigo rw'igihugu gishinzwe ubuzima ari gutanga amaraso.

Abakorerabushake b'ikigo gishinzwe gutabara imbabare batatu bambaye impuzankano y'ikigo, bari mu isoko mu gikorwa cyo gukangurira abaturage kwitabira ibikorwa by'ubutabazi.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, abarwayi bafashe impapuro bicaye baje kwivuza, bari mu nzu ifite amadirishya n'imiryango y'ibiti, irimo n'ibirahuri.

Imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara irimo ibitanda batwaraho abarwayi bifite amapine, intebe zicarwaho mu imodoka zifite ibara ry'ubururu, ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro.

Abakozi bo kwa muganga, abayobozi bashinzwe umutekano w'ingabo z'Igihugu bari kwa muganga, bari kumva ibiganiro biri gutangwa na bamwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku kigo nderabuzima.

Umurwayi wicaye ku gitanda. Imbere ye hari abaganga bambaye imyenda y'akazi. Iri mu ibara ry'umweru ry'ubururu ndetse n'imiti yifashishwa mu buvuzi.

Umuganga uri mu ivuriro, yambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse yambaye na ga mu ntoki, afite umukasi, yiteguye kuvura umurwayi, wakomeretse.

Abajyanama b'ubuzima, abarwayi ndetse inyuma yabo hari icyapa kigaragaza imitangire ya serivisi, ku meza ateretse imbere yabo hariho imiti ifunze neza mu macupa.

Abaturage bari mu cyumba k'inama bari kumwe n'abayobozi babo batanga ibiganiro, bari kumwe n'abayobozi babo mu nzu isa neza irimo n'amatara amurikira abari mu nama.

Abaganga babiri bambaye ibikoresho by'ubwirinzi bizwi ku izina ryitaburiya, bari mu cyumba cyo kwa muganga bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutunganya amaraso ndetse babigenzura bapima ubuziranenge bwabyo.

Abantu batandukanye, harimo abagabo n'abagore, harimo abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi, izwi ku izina ry'itaburiya bambaye ga kandi basunika, undi arimo asasa.

Umuganga ari mu cyumba cyabugenewe, gitunganyirizwamo, ibizamini byafashwe by'abarwayi, yambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu ndetse afite n'agakoresho kifashishwa mu gukusanya amaraso.

Abayobozi ndetse n'abaganga bambaye impuzankano, iziwi ku izina rya amataburiya, bari gutanga ibiganiro mu baturage, bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, bashakira hamwe ibisubizo mu buvuzi bw'abantu.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi ku izina ry'umunzani cyifashishwa mu gupima ibiro cyangwa se, ingano y'ibintu bishakwa kugurishwa cyangwa se gupima kugirango hamenyekane uko bingana mu buryo bwuburemere.

Inzu nini nziza, isi ze irangi ry'umweru, inyuma yayo hari ibiti birebire bitanga umuyaga, imbere yayo hari ubusitani n'utuyira twiza abantu banyuramo, bagana aho inyubako iri.

Ishuri ry'abana b'inshuke bageze mu gihe cyo kurya ,buri mwana afite ibiryo bye yicaye hasi biteretse ku meza, ikozwe mu buryo bw'uruziga bari kugaburirwa n'abarezi babo mu cyumba cy'ishuri.

Inyubako nziza kandi nini isakaje amabati y'ubururu. Ifite akayira nyabagendwa kayerekezaho. Iruhande rwayo hari ikigega gifata amazi ndetse n'ibiti birebire bihuha bikazana umuyaga n'ubusitani bihakikije.

Abaturage bari mu kiganiro barimo bacurira baririmba indirimbo bishimye bambaye imyenda itandukanye mu mabara y'icyatsi, umuhondo, umweru ndetse n'umukara.

Abagororwa, abashinzwe gucunga abagororwa, icyapa cyanditse umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe kiri mu mabara y'umweru ndetse handitseho n'itariki ya cumi ukwakira bibiri na makumyabiri na kabiri.

Abaturage bicaye munsi y'ihema, bambaye imyenda cyangwa imipira y'imyeru, impande z'aho hari umuntu wambaye imyenda imuranga ndetse n'ibyapa byanditseho: "Twite mu buzima bwo mu mutwe".

Abaturage bicaye bahuje ibitekerezo harimo abagabo n'abagore, inyuma yabo hari imifuka ipakiye ndetse ipanze iri mu ibara ry'umweru.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ifunze neza mu gikarito cyabugenewe. Ibikoresho byifashishwa mu gufata umuriro, bibitse neza mu bubiko bwabyo.

Ububiko bw'imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'abantu, ifunze neza mu macupa asa umweru ndetse n'andi ari mu bikarito n'andi amanitse ahabugenewe muri farumasi ibikwamo imiti y'abantu.

Inyubako icururizwamo imiti y'abantu, yubatse neza, isa neza isize irangi ry'umweru, hanze yaryo hari ibyapa byanditseho icyo bakoreramo imbere, na nimero yabo ya telefone.

Ibikorwa remezo harimo amazu, umuhanda ndetse n'ibyapa, amazu y'ubakishije amakaro y'ibara ry'umweru ndetse n'amajerekani yifashishwa mu kuvoma amazi, n'ibikarito mbere y'amazu.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, cyane cyane mu kubika ndetse no kubungabunga ubuziranenge bw'imiti itangwa kwa muganga buteretse ahantu heza hagenewe hafite isuku.

Urubyiruko rw'abakorerabushake b'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bari mu mahugurwa, bafite icyapa cyangwa se ibirango bigaragaza icyiciro cy'amahugurwa bari barimo.

Umuyobozi ari gutanga ibiganiro, inyuma ye hari icyapa cy'ikigo gishinzwe kurengera ubuzima, iruhande rwe hari abayobozi bafatikanije mu gutanga ibiganiro bicaye ku ntebe z'umukara.

Abagore bambaye mu buryo gakondo bafite udutebo cyangwa se inkono zicumba umwotsi, bambaye ibinigi ndetse n'ibikomo n'ingofero bitwikiye neza bari kureba mu mwotsi uri gucumba.

Imiti cyangwa se ibyatsi bizwi ku izina ry'inyirabarasanya byifashishwa mu buvuzi igihe umuntu yacitse igisebe kugira ngo amaraso avure cyangwa se atsine.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bifunze mu bikarito harimo ga zikoreshwa mu bwirinzi biri ahantu habugenewe mu makarito y'umweru ndetse bibitse neza ku buryo ntacyabihungabanya.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'urukarabiro rwubatse rwubakishije amakaro ari mu ibara ry'umweru rutwikiriye ndetse n'indabyo n'imbuga ngari yo kwidagaduriramo.

Ibikorwa remezo birimo amazu y'ibigo nderabuzima, abaturage, hamanitse ibyapa ndetse hari n'ubusitani burimo indabyo n'amazu y'abaturage.

Umujyanama w'ubuzima uri mu kigo nderabuzima, ari gutanga ibiganiro mu baturage baje ku kigo nderabuzima, impande yabo hari icyapa kiriho inyubako ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka televiziyo.